Aha ni mu murima uhinzemo ibitunguru muri uyu murima hahagazemo umuhinzi wambaye bote uri gushyira ifumbire muri uyu murima.

Aya ni amafi atatu atetse neza, akaba aya mafi yokeje, nyuma y'uko aya mafi bayotsa bayashyize ku isahani aho bisa naho abantu bategereje kuba bayarya.

Izi ni inyama zikaranze neza, ziri mu gasorori bigaragara ko kari ku meza bategereje kurya izi.

Iyi ni ifi itetse yamaze gushya ndetse ikanashyirwa ku isahani, aho iyi fi yashyizwe ku isahani hamwe n'umuceri ndetse n'imboga zitukura.

Aba ni abarobyi bari mu mato yabo bategereje kuroba, bigaragara ko bari mu kiyaga aho bagiye kuroba amafi. Kuri ubu bwato bwabo hariho indobani, bigaragara ko batari batangira kuroba.

Aya ni amafi abiri yokeje ari ku isahane, bigaragara ko aya mafi ategereje kuba yaribwa nyuma y'uko ashyizwe kuri iyi sahani.

Aha bacuruza ibintu bitandukanye birimo inyanya, karoti n'ibirungo, ariko nanone aha bacuruza n' ifi, nkuko hagaragara ifi iri gucuruzwa yapfuye.

Iyi ni ifi bari kotsa nk'uko bigaragazwa n'uko iteretse hejuru y'ipanu, iri kwakamo umuriro, ikaba inasize amavuta ndetse n'ibirungo bituma idakeka.

Ibi ni ibiryo biri ku isahane. Ku isahane hariho ifiriti, ndi kubonaho ibindi ndetse n'ibiraha

Aya ni amafi abiri ari ku ipanu, kuri iyi panu hariho amagi akase, hakabaho urunyanya rukase, ndetse n'indimu ikase.

Aha ni mu murima uteyemo igihingwa cy'amajeri nk'uko bigaragara, ariko na none ayo majeri akaba arimo ikirare bitewe n'ibi byatsi byinshi biri muri aya majeri.

Uyu ni umurima uhinzemo amajeri, ariko nanone muri uyu murima hagaragaramo amateke a make make, nanone aya majeri biragaragara ko atarera, nkuko i... amababi yayo akiri icyatsi.

Aha ni mu murima uhinzemo ibitunguru bikaba bigaragara ko uyu murima uraye bitewe n'ibyatsi byameze muri ibi bitunguru hirya yuy'umurima w'ibitunguru hari umurima w'urutoki.

Aha ni mu murima uteyemo ibihingwa bitandukanye, icya mbere, harimo ibirayi biteye muri uyu murima, hakabamo n'ibiti by'ibinyomoro biteye muri uyu murima.

Uyu ni umurima w'ibirayi uri inyuma y'urugo. Muri uyu murima w'ibirayi haragaragara ku ruhande ubwatsi buteye bw'amatungo bita urubingo. Na none uyu murima w'ibirayi unyuzeho akayira k'amaguru.

Aha ni mu murima uhinzemo amajeri , nk'uko bigaragazwa n'igihingwa cy'amajeri giteye muri uyu murima atarera , uyu murima bikaba bigaragara ko wezemo ibigori bitewe n'ibigorigori bihagaze muri uyu murima.

Uyu ni umurima w' imyumbati uteyemo ibindi bihingwa bitandukanye birimo: amateke, ibijumba ndetse uyu murima ukaba urimo n'urutoki nk'uko bigaragazwa n'amakoma y'insina imbere.

Iki ni ikigega cyo mu rugo cyifashishwa n'abahinzi, mu guhunika umusaruro wabo, waba umusaruro w'ibirayi cyangwa se umusaruro w'ibigori, n'undi musaruro uwo ariwo wose.

Iki ni ikidodoki giteye ku ruzitiro kikaba cyarazamutse mu giti kiri kuri uru ruzitiro, iki kidodoki kikaba gifitemo ibidodoki bitandukanye.

Uyu ni umurima bamaze gutunganya bawuhinga, ariko ukaba unateyemo urutoki nk'uko bigaragazwa n'insina ziteye muri uyu murima.

Uyu ni umurima wezamo ibigori nkuko bigaragazwa n'ibigorigori bihagaze muri uyu murima. Na none kandi uyu murima ukaba uteyemo amajeri atari yera.

Aha ndabona umurima ugizwe n'ibihingwa bitandukanye birimo urutoki, ibirayi bihinze kandi mu birayi harimo n'ibishyimbo bishingirijwe imishingiriro.

Uyu ni umurima w'ibirayi bigaragara ko uwabanje kweramo ibigori. Ibirayi bireze kuko biri kugaragazwa n'amababi ariko nandi ajya gushaka kuma.

Uyu ni murima w'ibigori byeze bigasarurwa, ariko ku ruhande rwaho hahinze ibindi bigori bitarasarurwa, ndetse muri uyu murima hahagazemo abahinzi.

Aha ni mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye, birimo imboga, ndetse n'insina. Imboga ziteye muri uyu murima, biragaragara ko zikuze bitewe n'uko zatangiye kuzana umurama ku mutwe w'izi mboga.

Uyu ni umurima wasaruwemo ingano nkuko bigaragazwa n'ibiganagano biri mu uyu murima, na none muri uyu murima hakaba hateyemo ibiti by'indumburabutaka bitandukanye.

Iki ni igiti cya voka gikuze, kikaba giteye iruhande rw'umurima uhinzemo urutoki, muri uyu murima hakaba hanahinzemo ibigori nkuko bigaragazwa n'ibigorigori bihagaze muri uru rutoki.

Iki ni igitoki cy'inyamunyu kiri mu murima, kikaba giteye injegwe kugira ngo kitagwa, kandi iki gitoki kikaba gifite insina ziri kukizamukaho.

Aha, ndabona umurima urimo urutoki, ukabamo ibigori; ibigori bisa naho byeze. Nanone, iruhande rw'uyu murima w'ibigori n'urutoki, hari umurima w'ubwatsi bw'amatungo, nabwo busa n'ubugiye kwera.

Uyu ni umurima wa karoti. Bigaragara ko izi karoti zeze. Iruhande rw'uyu murima hari ikibara kidahinze gishobora kuba cyarezemo ibigori. Bigaragazwa n'ibigorigori bikirimo, hanyuma hirya y'umurima hakagaragara umurima w'ibirayi.

Uyu ni umurima wezemo ibigori, kuko ugaragaramo ibigorigori, ku ruhande rw'umurima hari inzu, ku ruzitiro rwayo hageretseho imishingiriro.

Aha ni mu murima uteyemo amateke ya kizungu, aho aya mateke akiri mu murima akaba ataragera ku rwego rwo kuba yasarurwa ngo aribwe.

Uyu ni umubyeyi n'umwana bavuye kwahirira amatungo bigaragara ko bavuye kuyahira ku kiyaga aho inyuma yabo hagaragara ikiyaga.

Iri ni itunda rya marakuja. Bigaragara ko rikiri ku giti cyaryo ariko rikaba rishobora kuba ryarahuye n'uburwayi butandukanye, byatumye ritaza kumera neza.

Ibi ni ibihaza ariko ku mufuka ibi bihaza ni bine, uyu mufuka uri hasi kandi uyu mufuka ufashwe n'utubuye kugira ngo umuyaga utawujyana.

Ibi ni ibigori biri mu murima bigaragarako bihinze mu buryo bwa kijyambere aho bihinze ku mirongo itandukanye, kandi ibi bigori biragaragarako bimeze neza bitewe n'itoto bifite.

Aha ni mu iduka ricuruza inyama, aho muri iri duka hagaragaramo inyama zitandukanye. Umuhoro batemesha izi nyama ndetse n'akadomoro k'amavuta akoreshwa mu guteka izi nyama.

Aba ni abagore bari guhinga bigaragara ko bose bamanitse amasuka, kandi bari no guhinga ku musozi uhanamye ubona ko inyuma yabo hariho abagabo.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima w'ibigori. Umuhinzi bigaragara ko ari guca ibigori. Iruhande rwe hari mugenzi we utabona icyo arimo gukora, ariko bombi bari murima w'ibigori.

Iki ni ikiraro k'inka, kiririmo inka z'amabara atandukanye izi nka zikaba ziri kurisha ubwatsi zahawe muri iki kiraro.

Iyi ni ingurube ya bwaguye utwana twinshi. Iyi ngurube iraryamye, utwana twayo turi konka, ariko hari n'utwana twayo turyamye inyuma tutari konka.

Iri ni itunda ry'impuhu, ryeraho impuhu cyangwa se gaperi. Bigaragara ko rifite impuhu zigiye kwera, rikaba rinafite n'amababi atoshye.

Aba ni abahinzi bigaragara ko bavuye gusarura avoka, nk'uko bigaragazwa n'imifuka ya avoka ibari iruhande ndetse na avoka zikorewe na bamwe mu bahinzi n'izindi avoka zisutse hasi.

Ni umurima w'amashu urimo abakozi bari kubagara amashu, harimo abagabo, umugabo umwe, abagore batanu, bose bari kubagara bakoresheje inkonzo ndetse n'amasuka.

Ibi ni ibijumba byakuwe mu murima, bigaragara ko hari ibikiriho itaka hakabamo n'ibijumba, bigaragara ko byatemwe bikiri mu murima.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa ricururizwamo inyanya, pavuro, ibitunguru, ndetse hanagaragaramo amavuta yo guteka ari mu macupa.

Ubu ni ubworozi bw'ihene zororewe mu ifamu. Izi hene zose zikaba ari nkuru kandi izi hene zose zikaba zifite amahembe maremare.

Aha ni mu murima uhinzemo ibipapayi bya kizungu. Hakaba harimo ibiti bifite ibipapayi bitukura byeze. Ndetse n'ibiti bifite ibipapayi by'icyatsi bitari byera.

Aba ni abana bo mucyaro umwe ahagaze mu murima undi ahagaze mu muhanda, uhagaze mu muhanda afashe ku rutonde rw'amabuye, naho uhagaze mu murima asa nuri kugenda.

Uyu ni umugabo w'umuhinzi uri muri pepiniyeri iteyemo ibiti bitandukanye. Akaba afashe ingemwe z'ibiti mu ntoki, izi ngemwe z'ibiti zikaba ziri mu bihoho.

Iyi ni imyumbati yamaze gusarurwa ikavanwa mu murima, ikaba yanitse bigaragara ko hategerejwe kuba yavanwa aha yanitswe, ijyanwa ahandi habugenewe.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima aho uyu murima utewemo intoryi, uyu muhinzi bigaragarako arimo aritegereza niba izi ntoryi ze nta burwayi zaba zifite ku mababi yazo.

Uyu mugabo ni umuhinzi w'imbuto uri mu murima we， akaba ahinga avoka bigaragara ko afashe kuri voka igiye kwera iri mu giti.

Iki ni igiti cya voka gifite amababi y'icyatsi, muri iki giti harimo voka zikiri mu giti, na none iki giti kikaba ari igiti cya voka gikoreye.

Iki ni igiti cy'ikinyomoro gifite ibinyomoro byeze bitukura, ndetse n'ibindi biteze bikiri ibitoshye. Muri iki giti hagaragaramo amababi ndetse n'amashami.

Uyu ni umurima w'amatunda, uteyemo amatunda y'ubwoko bwa marakuja, aya matunda akaba yaruriye ibiti, ndetse aya matunda akaba afite n'ibitusha bigiye kwera.

Aha ni mu murima bigaragara ko habereye umuganda bitewe n'uko harimo abantu batandukanye barimo abapolisi abasirikare ndetse n'abaturage bose bari guhinga bifashishije amasuka.

Iyi ni ihene igizwe n'amabara y'umukara n'umweru, iyi hene ifite iherena, ikarita n'amahembe maremare, hasi y'ihene hagaragara amahurunguru ndetse iyi hene irahagaze.

Iki ni igiti cy'ipera kirimo amapera yeze ndetse n'atarera, bigaragara ko a kimeze neza, amapera yeze ndabonamo ipera rimwe, nkabonamo n'abiri atarera.

Aha hari abahinzi b'ibirayi bari mu murima wabo, biragaragara ko bishimye kandi banezerewe bitewe n'uko ibirayi byabo bimeze neza mu murima, bigaragara ko bizatanga umusaruro mwiza.

Aha ni mu murima uhinzemo imboga z'amashu, muri uyu murima hakaba harimo abahinzi ndetse n'umugoronome, barimo barasobanurirwa uko bahinga amashu.

Aha ni isoko ricururizwamo ibitoki, biragaragara ko harimo ibitoki biri gucuruzwa, nanone muri iri soko harimo ibitoki biribwa, imineke, hagaragara muri iri soko nanone inanasi n'ibindi bicuruzwa.

Uyu ni umurima w'icyayi aho urimo abahinzi benshi barimo basoroma icyayi. Bafite inyuma mu mugongo ibitebo barimo bagenda bashyiramo icyayi bamaze gusoroma.

Uyu ni umurima w'ibigori uri mu gishanga, aho bigaragara ko ibigori bihinzwe ari byinshi, kandi bikaba bigiye kwera nyuma bikazaza gusarurwa.

Uyu n'umurima uhinzemo ibigori, ibigori bikaba byaratangiye guheka, hakaba harimo ibigori bihetse bibiri ndetse n'ibigori bihetse bitatu.

Izi ni imfungo z'ibicuruzwa bitandukanye, birimo intoryi n'inyanya hagaragara imifungo y'inyanya n'imifungo y'intoryi itandukanye.

Aha ni mu murima w'ikawa urimo ibiti byinshi by'ikawa. Muri uyu murima harimo umuhinzi ufashe ku giti cy'ikawa bigaragara ko ari gusoroma ikawa.

Uyu ni umumozi w'ingurube, uhagaze inyuma y'ikiraro cy'ingurube, wambaye bote ndetse n'isarubeti ,akaba afashe ku ngurube irimo irarya.

Ndabona iguriro ry'ibiribwa birimo imbuto ndetse n'ibindi bicuruzwa bijyanye n'ibiribwa harimo inyanya, hakabamo imyembe, ndetse ndikubonamo na wotameloni.

Uyu ni umurima w'umuceri, nk'uko bigaragara, harimo abahinzi barimo buhira uyu muceri .Ikindi uyu ni umuceri uhingwa mu gishanga, nk'uko bigaragara harimo amazi muri uyu muceri. Ndetse hakaba harimo n'abahinzi buhira ,n'abandi bahagaze babareba.

Uyu ni umuhinzi w'amatunda， aho ari mu murima we w'amatunda， akaba afashe ku matunda ari muri uyu murima， na none muri aya matunda hakaba harimo ayeze n'atarera，amatunda yeze asa n’umukara，n’atarera asa n'icyatsi.

Aha ni mu murima w'ibigori urimo abahinzi batandukanye barimo gusarura ibigori nk'uko bigaragazwa n'umugore ufashe ikigori ,hanyuma hakaba harimo abagabo bafashe imihoro ndetse n'ibigori bamaze gutemera hasi.

Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuhinzi，bambaye amasarubeti y'icyatsi， barimo baracucira imboga z'amashu ziteye mu murima.

Iki ni igiti keraraho imbuto z'amapera, iki giti kikaba gifite amababi meza y'icyatsi ,ndetse kikaba gifite n'imbuto nyinshi z'amapera agiye kwera.

Uyu ni umusaruro w'imboga n'imbuto. Aho muri izi mboga turimo gusangamo ibitunguru, karoti, imiteja ndetse na kokombure.

Iki ni igiti cya voka gifite amavoka agiye kwera ari kwerera ku mashami y'iki giti, ndetse bigaragarako hari n'amavoka batangiye guca.

Uyu ni umurima w'ibigori biteye ku muronko. Inyuma y'uyu murima hari ikiyaga, bigaragara ko uyu murima nawo uri mu gishanga.

Iyi ni voka ihiye, bakasemo kabiri, mu gihe igice kimwe kirimo ikibuto, ikindi gice kikaba nta kibuto kirimo.

Iyi ni ibase iteretse hasi. Muri iyi base hakaba harimo amateke menshi ayuzuye. Bigaragara ko aya mateke ari muri iyi base arimo aragurishwa.

Uyu ni umurima w'imyumbati bigaragara ko urimo abantu basa n'abari kwiga uko imyumbati ihingwa barimo umuhinzi urimo urabasobanurira byinshi bitandukanye.

uyu ni umuhinzi uhinga igihingwa cya avoka, nkuko bigaragazwa n'umurima, arimo urimo voka z'imbangurire, kandi bikanagaragara ko ari gushaka uko yasarura, zimwe murizi avoka.

Uyu ni umuhinzi w'umugabo uvuye mu murima gusarura ibigori byo kotsa, ibi bigori yabitemye ntiyabitonora ,abitereye ku rutugu byose uko byakabaye.

Aha ni mu bwanikiro bw'ibigori ,aho muri ubu bwanikiro, hashinzemo ibiti ,hagatambikwamo ibindi biti ,bigiye bishyirwaho ibigori bitonoye kugira ngo ibigori byume.

Uyu ni umuhinzi uri mu murima we，aho muri uyu murima hahinze ibihingwa bitandukanye， icya mbere hahinzemo ibigori，ariko na none muri uyu murima hateyemo igiti cya voka， ari cyo uyu mugabo afasheho.

Ibi ni ibisate bibiri by' avoka, kimwe kirimo ikibuto, ikindi nta kibuto kirimo. Iyi voka ikaba ifite umuhondo. Bigaragara ko iyi voka iryoshye cyane.

Uyu ni umuhinzi w'umugore urimo uracucira imyaka ye akoresheje amazi ndetse nitiyo iri kuzana aya mazi muri uyu murima.

Uyu ni umugozi w'ibirayi baranduye ,urandukana n'ibirayi byawo. Ibi birayi bisa naho byari byeze kandi ibi ibirayi byose ni umweru.

Iyi ni imifuka ibiri y'ibirayi, umwe wuzuyemo ibirayi undi w'igice, iruhande rw'imifuka y'ibirayi hariho igare ndetse n'urutonde rw'amabuye.

Ubu ni, ubwanikiro bw'ibigori, bwanitsemo ibigori bya mayizori, bigiye byanitse ku biti by'imitambiko, bigaragara ko ibigori byumye bitegereje kuba byahungururwa.

Ni mbuto z'ubwoko butandukanye zirimo imineke, amatunda, inkeri, wotameloni, inanasi ndetse ndikubonamo n'ibindi, n'izindi mbuto zitandukanye ntari kumenya.

Aba ni abahinzi batandukanye bari mu murima. Bafashe amasuka bamwe barimo barahinga, abandi barahagaze.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa birimo ibiribwa n'imbuto bitandukanye, muri byo harimo:ibirayi ,ibijumba, ibitunguru, indimu ,karoti, imiteja, n'ibindi.

Iyi ni imifuka y'ibirayi ipakiyemo ibirayi byakuwe, ikaba iparitse ku muhanda itegereje kuba yashirwa mu mu modokaka ngo bijyane ahantu runaka.

Iki ni igiti cy'umwembe kimeze neza kirimo imyembe myinshi itarasarurwa bigaragara ko igiye kwera kandi kubera ubwinshi bwayo iki giti cy'imyembe bagiteze inkingi kugira ngo kitavunika.

Aha ndi kubona ibirayi bimajije gukurwa kubera ko bikiriho n'itaka ikindi kandi ibi birayi biragaragara ko ari ibirayi byiza bifite ibara ry'umweru.

Iki ni igiti cyavoka kiri mu bindi biti by'avoka byinshi, muri iki giti haragaragaramo voka zikiri ntoya zitarera, zigera muri voka ine, ndetse iki giti kikaba kinafite n'amababi atoshye, y'icyatsi.

Uyu ni umusaruro w'ubunyobwa ukiva mu murima, wanitse, nk'uko bigaragazwa n'ibiti by'ubunyobwa bifite ubunyobwa hasi.

Iyi ni imifuka ibiri y'umuhondo, aho imifuka ipakiyemo ibigori by'amahundo bipakiye neza, bikaba byuzuye neza muri iyi mifuka kandi imifuka ikaba iteretse.

Ibi ni ibigori bihutse mu buhunikiro, aho byumishwa mu buryo bugezweho, aho babimanika ku biti bamanje kubizirikana kugira ngo byumye bibone ubuhungurwa.

Uyu n'umurima w'ibishyimbo bigufi ,nk'uko bigaragazwa n'ibishyimbo biteye muri uyu murima, bimwe bikaba byaratangiye kuzana uruyange ibindi bikaba bitarazana uruyange.

Ubu ni ubuhunikiro bw'ibigori banikamo ibigo bimaze gusarurwa. Bimanitse ku biti bitandukanye, kandi ubu buhukiro bigaragara ko bwishiramo umuyaga ku buryo bwiza.

Ibi n'ibishimbo bya kizungu, byamaze gusarurwa, bikaba byanitswe, kandi ibi bishyimbo bikunda kwera mu gice cy'amajyaruguru y'u rwanda ari cyo musanze

Uyu mufuka uteretse urimo ibigori byiza byo mu bwoko bwa mayizori , kuri uyu mufuka hejuru y'ibigori hateretseho amabakure abiri manini.

Iki gihingwa cy'inzuzi bigaragara ko hatewe inzuzi ku murongo. Aho izi nzuzi zirimo ziramera zikaba zimwe zikiva mu butaka izindi zikaba zarageze hejuru y'ubutaka.

Aha ni mu murima w'ibishyimbo by'umushingiriro bigiye kwera nk'uko bigaragazwa n'imishogi yumye ndetse n'indi mishogi itaruma bikaba binashingirijwe ibiti.

Aha ni mu murima w'umuceri uhinze mu gishanga nk'uko bigaragazwa n'amazi ari muri uyu muceri ndetse n'umuhinzi uri gukorera uyu muceri.

Uyu ni umurima w'ibigori nk'uko bigaragazwa n'ibigori biwuteyemo. Ibi bigori bikaba ari imbuto nziza kubera ko bimwe bigiye biheka ibigori birenze kimwe.

Iyi ni ikawa yamajije gusarurwa. igatonorwa ndetse ikanumishwa. Ikaba iri mu biganza by'umuhinzi.

Uyu ni umurima w'umuceri urimo umuceri ugiye kwera, uyu muceri ukaba usa n'uhinze mu gishanga. Aho muri iki gishanga umuceri urimo usa n'utangiye gutukura no kuma.

Izi ni imbuto z'ibishyimbo zitandukanye harimo ibishyimbo bitukura hakabamo ibishyimbo by'umweruru hakabamo ibishyimbo by'umukara ndetse n'ubundi bwoko butandukanye.

Ubu ni ubunyobwa bwasaruwe bukumishwa ariko butaravanwa mu bishishwa byabwo kugira ngo bukoreshwe imirimo itandukanye harimo gutekwa ndetse no kuba bwakarangwa.

Aha ni ibiraro bitandukanye by'amatungo cyane cyane ibiraro by'inka aho imbere y'ibi biraro, hagaragara inka ebyiri ziri kurisha imbere y'ikiraro.

Iyi ni ifamu y'inka nyinshi. Muri iyi famu hagaragaramo inka zitandukanye, zimwe ziri kurya ubwatsi, izindi zihagaze mu ifamu.

Izi ni inka z'inyarwanda zirimo izifite amahembe maremare ziri mu ifamu ndetse hakaba harimo izihagaze n'izibyagiye.

Iyi ni imfizi y'ingurube iri mu kiraro cyayo, imbere y'iki kiraro hariho abantu batandukanye, kandi nanone ikigaragaza ko iyi ari imfizi y'ingurube ni amabya ari mu maguru y'inyuma.

Aha ni mu kiraro cy'inkwavu kigaragaramo ibyumba bibiri. Icyumba kimwe kikaba kirimo inkwavu eshatu, ikindi cyumba kikaba kirimo ubwatsi bw'izi nkwavu. Iki kiraro cy'inkwavu nanone kikaba gikingishije igipata.

Iyi ni inka y'inkungu itagira amahembe, iri kurisha inyuma y'ikiraro, iyi nka inyuma yayo hicaye umuntu uri wicaye ku kiraro.

Ubu mu bworozi bw'amatungo magufi yitwa ihene， nk'uko bigaragazwa n'umworozi uteruye ihene，ndetse n'izindi hene zitandukanye ziri imbere ye.

Uyu mugabo ni umworozi w'ingurube, ahagaze mu kiraro cy'ingurube gifite inkingi z'ibiti ndetse n'inkingi z'amatafari, iki kiraro kikaba giherereyemo ingurube nyinshi zitandukanye.

Ubu ni ubworozi bw'inkwavu aho bigaragara umworozi wazo ari kuziha ibyatsi ndetse nazo zikaba ziri kurya ibi byatsi uyu mworozi ari kuziha, muri izi nkwavu haragaragaramo izifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara.

Aha ni mu kiraro cy'ingurube ,cyororerwamo ingurube imwe nini. Iyo ngurube iri muri iki kiraro ikaba irimo irarya ibiryo hanyuma na none iyi ngurube bikaba bigaragara ko ifite umwanda bitewe n'urwondo ruyiriho.

Aha ni mu kiraro cy'ingurube cyororewemo ingurube imwe aho bigaragara ko iyi ngurube ikuze kandi ikaba ifite isuku bitewe n'uko nta mwanda mwinshi ifite.

Aha ni mu kiraro cy'inkoko, kirimo inkoko nyinshi zitandukanye, harimo inkoko kazi zihagazemo, ndetse n'amasake ahagaze muri iki kiraro cy'inkoko.

Izi ni inkoko zitandukanye ziri mu kiraro，muri izi nkoko higanjemo amasake menshi， bigaragara ko aya masake akuze， kandi ageze igihe cyo kuba yasarurwa.

Iki ni ikiraro cyororerwamo inkwavu, nkuko bigaragara harimo inkwavu zitandukanye, harimo uru rw'umweru rugiye kunywa amazi.

Izi ni inkoko ebyiri harimo inkokokazi ndetse n'isake, izi nkoko zombi zihagaze ku gati kandi zisa naho zikundana.

Iki ni ikiraro cy'inka cyubatse neza kikaba kirimo inka zitandukanye, kandi kikaba kirimo n'ubwatsi bw' izi nka zirimo kurya.

Aha ni mu kiraro cyororerwamo inkoko nk'uko bigaragazwa n'imishwi y'inkoko iri muri iki kiraro, iyi mishwi yose ifite ibara ry'umweru.

Aha ni mu kiraro cyororerwamo inkoko z'inyama kuko bigaragazwa n'inkoko zikirimo, kandi muri iki kiraro harimo utuntu izi nkoko zinyweramo amazi, muri iki kiraro hahagazemo umworozi ufashe inkoko mu ntoki.

Aha ni mu nzu babikamo amagi y'inkoko, nk'uko bigaragara muri iyi nzu, harimo amagi menshi agiye atondetse ku matereyi, hanyuma aya matereyi akaba agiye agerekeranyije imwe ku yindi.

Iki ni igisimba cyitwa igikeri. Gikunda cyane cyane kuboneka mu mazi. Iki gikeri gifite uruhu rw'umukara ndetse n'umuhondo.

Iki gisimba cyitwa urwumvu, gihagaze ku butaka, kiri kureba hejuru. Igisimba iruhande rwacyo hari igiti cyumye kirambitse iruhande.

Aka ni akanyoni kari mu giti, aka kanyoni biragaragara ko gafite amabara abiri, hari ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru. Biragaragara na none ko aka kanyoni kari mu giti cyumye.

Iyi ni ingagi iryamye mu ishyamba. Ni ingagi ikaba iryamye igaramye amaso ari kureba hejuru, kandi ikaba iryamye yi'ipfumbase.

Aha haragaragara ishamba ririmo udusimba twiza, udusimba dutatu dusa n'aho tuvukana turi kureba nkaho twikanze ikintu, nanone muri iri shamba haragaragaramo indabo nziza cyane.

Aka ni akanyoni keza, gahagaze mu giti hejuru. Iki giti kikaba gifite amashami yumye atagira amababi, n’andi mashami atarumye afite amababi mabisi.

Iyi ni inzovu iri mu ishamba, bigaragara ko iyi nzovu ikuze kandi ikaba isa n'iyambukiranya inzira ,isa n'aho ari inzira y'amaguru.

Iki ni igiti kiri mu ishyamba muri iki giti ndabonamo inyoni kandi muri iki giti harimo ibyari bitatu byaritswe n'inyoni.

Aka ni akanyoni gahagaze ku giti cyiza kiri mumeze nk'ururabo, kandi aka kanyoni biragaragara ko kiteguye kuba kaguruka kava kuri iki giti kerekeza ahandi hantu.

Iki ni igikona. Kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kikaba gihagaze ku giti, iki gikona gisa n'aho kiturije, nta kibazo gifite muri iki giti.

Izi ni inkende zitandukanye zibereye mu ishyamba. Zikaba zuriye igiti . Zihagarariye mu mashami y'icyo giti kiri mu ishamba.

Iyi ni ingagi n'umwana wayo, aho uyu mwana w'ingagi akiri mutoya akaba asigawe n'ingagi ibyara uyu mwana.

Iyi ni nyoni iri mu giti. Igiti gifite amashami. Amashami akaba afiteho amababi y'icyatsi. Iyi nyoni igizwe n'amabara atandukanye harimo umutuku ndetse n'umukara ku gihimba. Waza ku mutwe, tukahabona ibara ry'umuhondo ku maso ndetse n'ibara ry'umutuku ku isunzu.